Sare yicayemo abantu benshi barimo baraganira, abandi barimo barandika bicaye ku meza ateguyeho ibitambaro by'umukara, inyuma hari inzu isize amarangi y'umuhondo, hari n'uhagaze urimo kubaganiriza.

Abantu bane bicaye imbere y'inzu ikinguye ifite urugi rw'umweru, abakobwa batatu n'umuhungu umwe, babiri bari kureba muri terefone, ku meza hari mashine n'amatasi abiri y'umweru.

Urupapuro rw'ubururu, rwanditseho inyuguti zikoresheje ibara ry'umukara, hariho icyapa cyanditseho Rwanda reveni otoriti.

Umugabo wambaye umupira w'umweru na rinete n'isaha, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa abiri y'amazi y'Inyange na telefone, ku ruhande hari icyapa cy'ubururu cyanditseho irembo byikorere, ukundi kuboko afashe mikoro.

Icyapa kigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo n'umweru, munsi hari igishushanyo cya etaje, ku ruhande hirya, hari ikirangantego cya Rwanda Revenue Authority.

Inzu cyangwa parikingi bituzuye, harimo abantu bagenda ariko batagaragara neza n'imodoka iparitse imeze nka ambiranse.

Abantu benshi bicaye muri sale, abicaye imbere hari urimo kwandikwa ku rupapuro, hari n'ufite akantu k'umutuku ku bibero, hari n'undi ufite urupapuro n'ikaramu atari kwandika n'uhera yicaye afite telefone mu ntoki.

Abagore bane barahagaze, ku mpande zabo hari amabendera abiri harimo iry'u Rwanda, hejuru y'imitwe yabo hari ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame.

Abantu benshi, hari ufite urupapuro runini rwanditseho amagambo tora, tora, harimo n'ifoto y'umugabo, hakurya hakaba hari amashyamba menshi.

Icyumba kigizwe n'ibara ry'umutuku, umuhondo n'ubururu n'amatara yaka, hicayemo abantu benshi abagore n'abagabo, imbere hari ufite kamera arimo kubakamera n'ameza manini.

Imodoka y'ubururu n'umweru ya bisi irimo kugenda muri kaburimbo, igeze imbere y'igiti no munsi ya etage isa n'umweru.

Umuhanda urimo ibikamyo bibiri, icy'inyuma ni ik'icyatsi kibisi, ikindi ni icy'ubururu n'icyatsi kibisi, ku ruhande hari moto iriho umumotari itwaye n'umuntu bambaye kasike ebyiri, imbere ya byo hari ibiti.

Umuhanda ugaragaza ruhurura, harimo imodoka ebyiri, harimo moto ebyiri itwara imizigo n'itwara abantu n'igare rihetse umuntu n'umumama urimo gucuruza ibisheke mu ndobo.

Icyapa gitambitse kigizwe n'ibara ry'umukara n'umweru ryanditseho K K mirongo itanu na gatandatu ST, inyuma hari ipoto ririho insinga nyinshi n'ibiti.